Amafi yo mu mazi ubwoko bw'amatirapiya, barayaroba bamara kuyaroba ni ibyo kurya by'abantu, rimwe na rimwe aribwa n'inyamaswa ziba mu mazi, nk'amafi manini ya kera barirene, nk'amafi manini ya bare akaba ari yo agenda arya ayo mafi ariko baranayateka bayakaranze.

Salade, salade ni ibiryo byiyongera ku ifunguro umuntu aba yafashe biba bikozwe na venegere, indimu, karoti, n'ibitunguru, biba bitandukanye rimwe na rimwe haba harimo, urubura cyangwa se barafu, mu rurimi rw'amahanga.

Abaturage bavuye ku isoko kugura inkoko, ibitunguru ,ibase ,amasaka, imifuka. Bikoreye ibicuruzwa bitandukanye n'usunitse igare n'inzu inyuma yabo.

Umurima uhinzemo ibihingwa puwavuro ziba ziteye ku murongo, ari umurima munini bahingamo buri gihe ibihingwa bitandukanye amasaka, ibigori, ibijumba, n'ibishyimbo.

Intama ni itungo rigufi, ryororerwa mu rugo, mu kiraro, cyangwa se rikororerwa mu ifamu, kandi ushobora kuzorora ziri kumwe n'intama zonyine cyangwa se zikororwa ziri kumwe n'inka.

Ikiraro cy'inka cyangwa urugo rw'inka ni ahantu inka ziba, zirishiriza, zirara. Ikiraro baragisakara kugira ngo inka zitaza kunyagirwa, cyangwa se ngo izuba ryice inka ziba zirimo imbere mu kiraro.

Inka ni itungo ryo mu rugo ririsha ubwatsi, mu gitondo barazahura zikajya kurisha ubwatsi, saa sita zikajya kunywa amazi, zirashoka saa sita, ni mugoroba zigataha zikajya mu biraro, ibyo biraro biri inyuma, aya ni amapoto y'amashanyarazi azana amashanyarazi mu biraro by'inka.